Umuti bateraga mu myaka zitandukanye，urugero nk'ibigori n'ibirayi，n'ibishimbo， bakoreshaga ugo muti bari gutera muri iyo myaka，kugira ngo yice utwo dukoko， imyaka ikazera neza cane.

Umumama uhetse ipombo uri gutera umuti wica udukoko dutandukanye, mu myaka ye kugira ngo izere neza, ni byiza ko yitabwaho kugira ngo azabone umusaruro gushimishije mu myaka ye yahinze.

Umuti guri mu mashashi no mu macupa, bawukoreshaga mu bihingwa bitandukanye kugira ngo bizere neza bifite umusaruro ugaragara bityo bakaba bagukoreshaga mu bihingwa bimwe na bimwe.

Ikawa isasiye bari gushiraho ifumbire kugira ngo izazamuke neza, hariho umugabo wambaye imyenda y'umweru uri gushira ifumbire ku kawa, n'umugabo wambaye imyenda y'umutuku ari gushiraho ifumbire rya kizungu, aho bari kwita kuri iyo kawa neza kugira ngo izakure itange umusaruro mwiza cane.

Abayobozi bari kubera abaturage urugero，babereka guhinga neza ko bibyaraga umusaruro ushimishije，abayobozi bifatanyije n'abaturage barimo kubererekera，bamwe bashiraho amafumbire， abandi bashiraho itaka，kugira ngo iyo myaka， izere neza cane.

Umuti gwicaga udukoko tw'udusimba dutandukanye tubaga turi mu bihingwa, ugwumuti bagutera mu bihingwa ahasigaye ukica udusimba tw'udukoko tubaga mu myaka tugatuma itera.

Ifumbire batezaga ibihingwa bitandukanye bigatuma rifasha ibyo bihingwa kwera neza bigatanga umusaruro mwinshi ku barikoresheje.

Amafi garimo barafu kugira ngo bagarye bisaba ko bamanza bagatunganya neza, barafu ikavamo hanyuma barangiza bakagoza bakabona ubugateka neza.

Imigezi zitumaga tugira ubuzima bwiza aho havagamo amafi bakagaroba tukagarya. Ikikijwe ibiti bimeze neza bizanaga akayaga i musozi, aho hari n'imisozi ikikije icyo kiyaga, bigatuma tugira ubuzima bwiza.

Amafi ameze neza cyane. Atatseho ibintu bitandukanye, amagi n'indimu n'inyanya, aho tuyasanga ahantu hose tujya kwiyakirira, haba ibyokurya n'ibyokunywa. Bityo ni byiza kurya amafi ni intungamubiri mu buzima bwacu.

Amafi ameze neza atandukanye, bakura mu kiyaga bakayajyana ku isoko, agira intungamubiri iyo umuntu ayariye, ni byiza kuba wayarya mu buzima bwa buri munsi.

Mu ngezi harimo ubwato n'umuntu uri kuroba indagara, arobesha tupanete agakura mu ngezi indagara azishirara mu bwato.

Ikiyaga ni cyiza kuba tugituriye kiduha akayaga n'umwuka mwiza, aho gikikije imisozi yacu hari n'ibiti biri ku nkuko zacyo, zizana akayaga keza kadufasha guhumeka.

Abagabo bahagaze mu ngezi bari kurobamo amafi, aho hahagaze n'abandi bari gufotora, impande yaho hakaba hariho n'ibiti bimeze neza, bizanaga akayaga muri iyo ngezi kugira ngo ibirimo bihumeke neza.

Ibitoki bimeze neza cane bashizeho ibirungo n'indimu babicururizaga muri resitora cangwa amahoteri n'andi mabutike atandukanye bacururizagamo ibyo kurya.

Icyuzi bororeragamo amafi bacyubatse neza bashiramo inkwavu zinnyaga amabyi gazo zikazitunga aho gikikijwe n'umucaca gumeze neza, bagikoreye neza cane kugira ngo ago mafi gazaza garabona aho gasambira kugira ngo gazakure neza gatange umusaruro mwiza cyane.

Umurima guhinzemo ibihingwa by'ibitunguru bikenewe kubagarirwa kugira ngo bizere neza, bagashiraho n'ifumbire y 'imvaruganda kugira ngo bazabone umusaruro ugaragara neza.

Voka imeze neza ifite uruyange rwinshi, hazeraho imbuto zigaragara nyinshi cane, aho zivagamo ibikoresho bitandukanye, bagakoramo amavuta n'isabune, bakaba babikoreshaga mu bikoresho bya buri munsi dukenera.

Ibicoricori by'ibigori basaruyemo aho umurima bagumazemo ibigori byeze bikaba barabisaruye byumye, impande yaho hakaba hari ibirayi bimeze neza, biyanze biri hafi kwera nabyo bakabisarura.

Ibiti bikuze n'ibiti bitari byakura, bigomba kwitabwaho mu gihe babihingiraga, bigakura neza kugira ngo bitange umusaruro mwinshi cane.

Karoti zimeze neza cyane zahinzwe zitaweho. Hari n'ibindi bihingwa bizegereye nk'ibirayi, hagati aho hari n'ibiti bikikije uwo murima bizanaga akayaga keza ku buryo iyo myaka izana umusaruro gushimishije.

Umurima gwasaruwemo ibigori, impande yaho hakaba hariho ibiti bitanga akayaga keza ku bihingwa bihinze, impande y'ugo murima, hariho n'ibirayi bimeze neza, byenda kwera.

Imirima zituye hafi y'amago ni byiza kuyigira, iyo uyihinga irakoroheraga mu gihe imvura yaba iguye, ukaba wabasha kuja kugama impande y'ayo mago ikoroheye.

Ibirayi bikizamuka bikeneye imvura kugira ngo bizakure neza bifite ubuzima bwiza ,akavura karinganiye n'izuba riringaniye niryo ribaga rikenewe mu bihingwa bitari byera neza.

Urugo ruteyeho ibiyote, biba byiza kubikora, nubwo rukora nk'uruzitiro, ariko bidufasha kubona imboga z'ibanze zo guteka zigira vitamine .Noneho rukaba nk'uruzitiro, inzu y'ibiti irakomera kurusha inzu y'ibyondo.

Uruyuzi ni igihaza baryaga bakagiteka bakagikuramo ibiryo bitungaga umubiri. Bityo, igihaza ni ciza cane kubakunda kubirya ni ibiryo bi biteraga imbaraga.

Ibigori byuhiwe harimo n'ibitoki bitari byera bifite amakoma gasa neza, ibigori amababi gabyo harimo ibimeze nabi bidafite ifumbire ibonye akavura, bagashiraho n'ifumbire byamera neza bikazatanga umusaruro ushimishije.

Ibihaza n'ibiribwa bijaga ku isoko bakabigurisha bikavamo amafaranga, ndetse ni ibiryo byiza biteraga imbaraga kubiriye akaba nta kibazo yagira cy'ubuzima bwiza.

Ibirayi bimeze neza bifite amababi gameze neza gatoshe aho bikenewe kuba byitabwaho bikaba bigeze igihe cyo gusarurwa bikahunikwa cyanga bikajyanwa mu isoko.

Ibirayi byenda kwera biri impande y'ibiti birebire n'amazu aho bikeneye akavura kugira ngo bizere neza bifite imbuto kugira ngo bivemo umusaruro mwiza bazahunika hakavamo ibindi byo gutera ikindi gihe.

Umurima wasaruwemo ibigori, impande yaho hakaba hari ibiti bitanga akayaga, kuri ibyo bihingwa byari bihinzwemo bikaba byarasaruwe, hakaba ari ikinani kirimo bazahingamo iyindi myaka.

Aga mashu gahuye n'izuba ryinshi cane bityo ntibyatuma gera neza kubera ko gatabonye imvura ihagije kugira ngo gatange umusaruro mwinshi cane.

Insina zakuze n'izikiri ntoya zifite amakoma asa neza, ameze neza, harimo n'uruyuzi muri uwo murima, hakaba ku ruzitiro hariho ibishyimbo bijitije uruzitiro, hakaba hariho n'ibiyote barya babitetse.

Ibitunguru bikenewe kwitabwaho bikabagarirwa neza, kugira ngo bizatange umusaruro ushimishije, bikeneye n'imvura. Impande y'aho hari urutoki rumeze neza rutari rwera, hari n'ibindi bihingwa bitandukanye byegereye urwo rutoki, aho bifasha kuba imvura yaboneka kugira ngo byere neza.

Umurima basaruyemo ibigori, uteye hafi y'urutoki, amago akikije ugwo muririma, hari ibitoki, ibiti n'ibindi bintu bitandukanye, bituma uwo murima ugira akayaga keza.

Ahantu hahingwaga neza hegereye ishamba ry'ibiti, ni ngombwa ko bashiramo ifumbire ryinshi, bakahafumbira neza kugira ngo hazere kubera ko ibiti bishobora gukurura ubutaka bukabunyunyutsa bukaba butabasha kwera neza mu gihe batabufumbiraga neza.

Ababyeyi bikoreye ibintu bitandukanye，batwaye mu bitebo， bashyize ku mitwe zabo， bavuye gusarura，aho bari ku muronko bagenda，batashe bikoreye ibyo bavuye gusarura.

Abantu benshi bari guhinga mu materasi bagakora neza kugira ngo hazavemo umusaruro mwiza cane, aho hitabwaho amaterasi, bituma duhinga kijambere neza tugafata ubutaka bwacu kugira ngo budatemba.

Guhinga urusenda ukarwitaho bitangaga umusaruro umeze neza cyane, iyo warukurikiranye harimo umugabo muri ugo murima wambaye imyenda y'umukara, n'ingofero y'ubururu ,n'ipantaro y'igitaka n'isaha ku kuboko.

Amapera geze neza, ni manini cane, gasa neza. Uwagajana ku isoko, havamo amafaranga aho abantu baba barwanira ibintu bisa neza kandi binini cane kugira ngo babigure bishimye, bazi ko badahenzwe baguze ibintu bigaragara neza cyane.

Imyumbati ni myiza cane ni intungamubiri ziteraga kugira imbaraga, iyo umuntu aziriye ahoraga afite morali n'imbaraga mu mubiri we, ku buryo yakwikorera ibintu biremereye cane bitewe n'ibiryo yariye.

Ibigori bimeze neza cyane byitaweho, hariho umugabo uri kujya gucamo ibyo kuba yajya kotsa, ibigori bitetse na byo biraryoha, aho bigira intungamubiri nyinshi cyane ku muntu ubiriye bimutera imbaraga.

Umugore ari gusarura karoti mu murima wazo bazihinzemo, bakaba bari kuzisarura kugira ngo bazazijane ku isoko bazigurishe abakiriya.

Inka barikokererezaho utunyana twayo kugira ngo babone uko bakama amata. Umushumba ari kugenda ashiraho inka aziretesha, kugira ngo ibashe gutanga umukamo ugaragara.

Ibijumba bimeze neza bakuye, bikaba byaravuye mu murima mwiza gumeze neza. Bahinze bagashiraho ifumbire rihagije bakaba barasaruyeho, ibijumba bimeze neza cane binini.

Iyo umuhinzi ahingaga bitumaga abona ibyo kurya mu gihe kitagoranye， iyo akunda guhinga ibintu bijyanye n'ibyo kurya．

Amasaka ameze neza ari ku nkoko, yasaruwe arayagosorwa bazayakuramo umusururu uwo bita ibigage, bawucuruze cyangwa bawujyane ahandi hantu ho kuwutwerera, babikoresha mu bukwe bakabinwa.

Umuntu uri gutera umuti mu ibirayi akoresheje ipombo, ni umugabo yambaye ipantaro n'umupira. Akaba ari gutera kugirango ibirayi bizere bimeze neza, amababi gabyo gakomere mu gihe imvura izaba iri kugwa ari nyinshi.

Abantu bari kubagarira inyanya zisasiwe. Umuntu wunamye arimo azitunganya neza kugira ngo zizere zifite umusaruro ushimishije.

Ibishimbo bimeze neza byahinzwe kijambere aho harimo umubyeyi uri kubagara yambaye itaburiya y'ubururu n'ipantaro, aho impande yaho hari ibiti bihakikije bitanga akayaga kuri ibyo bihingwa.

Imyembe zitari zera neza, zikeneye akazuba n'akavura karinganiye, kugira ngo zizatange umusaruro mwinshi ku bazihinze, bazazisarure bazijane mu isoko bakuremo amafaranga menshi.

Ishu rimeze neza rifite amababi gasa neza, aho ryitaweho, rigashyirwaho imiti n'ifumbire kugira ngo rizere rimeze neza cane, barigurishe rifite ubuziranenge.

Guhinga icyayi ni byiza cyane，bifasha umuturage gutera imbere， aho asarura agakuramo amafaranga menshi，akajana ku isoko， aho akuramo ibintu bitandukanye biturutse mu buhinzi bwe bwo guhinga icayi，akagemura ku masoko bigacishwa mu ruganda.

Ibigori bimeze neza bigeze igihe cyo kotswa, babisaruye mu murima gwabo bakabijana ku isoko, bikaba byatanga amafaranga menshi, umugore uri mu murima gw'ibigori, afite ibigori bibiri mu ntoki yakuye mu murima, imbere yaho hari ibigori bimeze neza cane.

Urukwavu ni itungo rigufiya ryiza cane, aho kuryorora bitagoye. Bifasha umuntu kuba yagira inyama mu rugo iwe akazirya mu gihe atabonye amafaranga go kuja kuzigura ahandi, bityo ni byiza rutera apeti mu kururya iyo rutetse neza.

Ibihingwa, ibihingwa bimeze neza, biri mu murima. Hafi yaho hari ibiti n'amazu, umugore ufite terefone wambaye imyenda y'ubururu uri kuri ugwo murima, ari muri telefone akandakandamo, ibirayi bimeze neza, imbuto bahinze zose zimeze neza cane.

Ibishyimbo bimeze neza bateraga umuti badashingiriraga bifite uruyange n'amababi meza cane bikaba bigaragara ko hazavaho umusaruro mwiza ushimishije.

Imyumbati zimeze neza, kuzirya ni byiza biteraga imbaraga mu mubiri, aho uja gukora wiyumva umeze neza ntakibazo, ugakora neza. Wayiriye ugira imbaraga nyinshi cane ntago usonzaga.

Intoryi ni nziza cane, ni ibiryo bikoreshwa mu mboga aho muri resitora no muri mu mahoteli babikeneraga bifashishaga kuba bakwakira abakiriya, ni intungamubiri zikungahaye ku biribwa bimeze neza biteraraga umubiri vitamine.

Amatarasi akoze neza, hakaba harimo n'umuserege, uzajya uracamo amazi， haciyemo ibyobo, ahandi harahinze, hakaba harimo abantu batandukanye, bambaye amajire n'iyindi myenda isanzwe, bakoresha mu bijyanye n'ubuhinzi.

Uruja n'uruza rw'abaturage bicaye hamwe imbere yabo hari imifuka z'imiceri, aho bagiye kugabana hari ibiti bicayeho bibakingirije izuba, bizana akayaga keza cane mu gacaca keza bakicara, bagategererezamo abayobozi babo, bakumva inama babagira uko bagomba kwitwara mu buzima bwa buri munsi, bakarya n'imirire myiza.

Aga maronji geze ari mato, iyo bagacuruza barabahendaga bitewe n'ukuntu geze ari matoya, gatanga umusaruro mukeya mu bigaragara umuntu wagasaruye.

Urusenda rw'umutuku rumeze neza. Iyo baruhinze rugatanga umusaruro mwinshi. Abantu baruhingaga babonaga amafaranga menshi cane, kuko rugura amafaranga menshi ku isoko, aho ubuhinzi bw'urusenda abantu baruhinga ari bakeya cane.

Ubuhinzi bwa kijambere bahingaga mu nzu, aho batwikiriye ku buryo imvura itageragamo uko ishaka cangwa izuba, bityo bakaba babyitagaho, bakaba barashinzemo uduti bagashiraho n'amahuzi yo gutangira za mbuto bahinze kijambere. Harimo umuntu wambaye ibintu by'umweru witaga kuri bya bihingwa bihinze mu nzu.

Ubirayi ni binini cane byitaweho bitanga umusaruro ushimishije babijana mu isoko aho babicuruzaga bakabijana ahantu hatandukanye urugero nko mu mahoteli cangwa mu maresitora.

Voka zimeze neza ziraryoshe, ziragaragara nk'aho baziciye zeze cane, zikaba zikenerwa ku isoko, akaba ari urubuto ntungamubiri abantu bose bakenera.

Amapera gameze neza genda kwera gasa neza bagitayeho, geze mu gihe ciza aho gabaga gakenewe ari urubuto rw'intungamubiri mu buzima bwacu.

Amatarasi ni meza kuyahingamo ibihingwa bisarurwaga bimeze neza bifite ubuziranenge aho bateragaho ibiti n'ibyatsi bitandukanye byo gufata ubutaka kugira ngo imyaka itazatemba.

Amashu ameze neza, yeze, atanga umusaruro mwinshi ku isoko, iyo bayahinze neza avamo amashu manini cyane, bakayarya abaturage bakishima bakamera neza.

Imyumbati zimeze neza ziteye mu murima, ziri kuzamuka zifite ubuzima bwiza kubera ko bazishizeho ifumbire ni bakomeza kuzitaho cyane zizatanga umusaruro mwiza.

Amateke geze neza manini baragateka gagatera imbaraga, kakaryoha. Ku muntu uyarya, ahorana imbaraga mu gihe akora imirimo y'ingufu.

Abagabo bahetse amapombo bari gutera umuti wica udukoko mu myaka， hafi y'iyo myaka hariho ibiti bihakikije bituma haza akayaga keza n'imvura ikagwa，kugira ngo iyo myaka izere neza cane.

Ni byiza gufata ibiti by'ibirwanyasuri, iyo umuturage avuye kubifata agatera ku mirima ye, bimufasha kurwanya isuri kuri ya mirima ye bityo ikamera neza, ubutaka bugakomeza bukagira ubusugire bwo kuba butatembanwa n'amazi, mu gihe imvura iguye.

Ipapayi imeze neza ya kizungu, ifite imbuto zeze zisa n'umuhondo n'izindi zitarera zisa n'icatsi, aho imeze neza cane, yitaweho ikaba ifite imbuto nziza cane.

Ibigori bimeze neza cyane, byitaweho babishyiraho ifumbire ihagije, bifite ibigori byiza, byenda kwera, aho bizatanga umusaruro umeze neza cyane, bigatuma nyirabyo akuramo imbuto nziza kubera ko yabyitayeho.

Ibigori byokeje bimeze neza， abantu bakundaga kubyotsa bakabigurisha abaturage bakabirya， hariho n'ibibisi bidatonoye bimeze neza binini byitaweho byahinzwe kijambere bitanga umusaruro mwiza.

Umubyeyi wikoreye uvuye gusarura ibyo yahinze ahetse umwana mu mugongo, afite n'ibindi ku mutwe yikoreye, agenda atashe agiye iwe aho ajanye ibisarurwa yikoreye ku mutwe gwe.

Voka ni urubuto rwiza cane rukungahaye ku biribwa, aho abaturage bose baruryaga babaga bameze neza, barukoragamo n'ibindi bintu bitandukanye abantu bifashishaga, aho ruvagamo amasabune n'amavuta abantu bakazaja baragakoresha.

Imiteja zimeze neza, pavuro, indimu, ibitunguru, sereri, barabicuruzaga mu isoko, bityo bikabaha amafaranga menshi gatubutse gavuye muri ugo musaruro bagiye gucuruza mu isoko.

Amapera geraga mu gihe cy'imvura nibwo gaba gatohagiye neza, gagatanga umusaruro mwiza cyane ku bahinzi bagahinga bakabonamo amafaranga menshi.

Ibigori bimeze neza bamanitse babikoragamo izindi mbuto zo guhinga mu gihe kizaza, bityo bakaba barabifashe neza bakabishira ku migozi bakabihanika, kugira ngo bazabyifashishe batubura izindi mbuto nshasha zo gutera.

Voka ni urubuto rwiza cane, abaturage bakundaga kurya ndetse bazifashishaga no mu ruganda, bakaba bakoramo amavuta bisigaga n'isabune bakaraba, bityo akaba ari urubuto rwiza cane rukenerwa ahantu hose, mu kuba bakunda kururya no kurukoreshamo ibindi bintu bitandukanye.

Ishu ryeze cane rikaba ryaratangiye amababi gayo kurwara, kubera gutinda kurisarura. Mu gihe bataryitayeho ngo babe barikurikirana, rigomba kwangirika.

Ibinyomoro bimeze cane byitaweho, barabifumbira, baranabisasira neza, bifite amababi gasa neza cyane, babiteye umuti uhagije, byenda kwera bimeze neza, bifite ibinyomoro binini binasa neza cane.

Urubyiruko n'umusaza bari gusarura amasaka aho geze neza cane gitaweho, hafi y'aho hakaba hari ibiti bitandukanye bizana akayaga bigatuma izo myaka zera neza. Ni byiza ko ibyo biti biba bikikije imirima, kugira ngo imvura iboneke yo gutuma iyo myaka yera neza.

Ibigori by'umuhondo ni byiza cane babikoragamo ifu batekagamo umutsima aho ibi bigori biba bikenewe ku isoko kubibona biba bigoranye cane ari bakeya babihingaga.

Ingano nziza zigaragara neza, zitanga umusaruro umeze neza, mu gihe bazifashe neza.

Amajeri gatonoye gameze neza. Bagasaruye gatari guma, gararyoha bagatekaga ku biryo bitandukanye bityo abantu bakaba bagakundaga kugarya kameze neza cane.

Umuceri gumeze neza, iyo bagwitayeho gutanga umusaruro, bityo abaturage bakaba ari igihingwa bakunda kurya cane, iyo bakinyujije mu ruganda, gikurwamo umuceri gutonoye gumeze neza cane.

Amasaka, ingano n'ibigori biri mu ngemeri, hakaba harimo n'ibikoresho bakoreshaga bari kurengera abantu. Baje kugura, impande yaho hakaba harimo n'udufuka barenga, bari gushiramo, bacuruzaga.

Ibishimbo bimeze neza biri kuva mu butaka bifite amababi gatoshe n'uruti ruzamuka rumeze neza aho bizakomeza kwitabwaho bigakura bikagira umusaruro mwiza ugaragara.

Igihwagari ni cyiza cane. Ni igihingwa kivagamo ibintu bitandukanye. Bakijanaga mu ruganda bakagikoramo amavuta go kurya, n'ibindi bintu bitandukanye bidufasha mu buzima bwa buri munsi, aho kugikoresha gifite umumaro mwinshi cane, mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Amajeri ashishe ameze neza bayateye igihe cyiza, impande y'aho hari ikibuga hariho abantu, hakikijweho n'ibiti hariho n'umunara uri hafi y'uwo murima uteyemo amajeri.

Ibigori bimeze neza, biri mu base y'ubururu. Impande yaho hakaba hariho n'ibakure n'iyindi base y'icatsi, irimo ibindi bigori. Hakaba harimo n'ingemeri barikungamo, kugira ngo babe babasha kumenya ibipimo byabyo barenze.

Ubunyobwa butonoye bumeze neza, bwareze bufite umusaruro ushimishije aho babujyanaga ku isoko bakabugurisha, hakavamo amafaranga agura ibindi bintu umuntu akeneye byose.

Inzu ishyirwamo ibihingwa bitandukanye, byagufasha kuba wazamuka mu iterambere, aho dukenera kuba twabishyira mu nzu, aho bitazahura n'imvura kugira ngo byangirike.

Ibishimbo bimeze neza, byatewe ku murongo biterwa kijambere, aho abantu babihinze bazasarura umusaruro gushimishije, bigeze igihe cyo kuyanga, bityo bikeneye akavura kameze neza gakeya n'akazuba gake kugira ngo bizere neza babone umusaruro guhagije.

Ababyeyi bari gusarura amasaka batari bagosora, bari kuyorera mu mumabase baza gutuka hamwe bambaye imyenda zitandukanye, hamwe nimituku abandi n'ubururu n'imweruru nibyiza cyane, kugirango dufatanye gusarurira hamwe, ibihingwa byacu neza.

ibishyimbo byiza bimeze neza byitaweho bitanga umusaruro gumeze neza ku isoko aho babijanaga kubigurisha bikavamo amafaranga menshi cane ku muhinzi wabihinze akavanamo ibindi bintu akeneye ku isoko

Soya ni nziza cane, ni ikiribwa gitera vitamine, aho bagihingaga neza kikavamo umusaruro mwiza ushimishije, ni byiza guhinga soya ukayitaho neza, ukuramo amafaranga menshi cane.

Amajeri gameze gatari mu butaka batari bagahinga, none gakaba garameze, gakamerera ahantu bagarunze hamwe.

Ibishimbo bimeze neza cane binini ,aho byavamo imbuto y'indobanure bityo umuntu akaba yabyifashisha ari gushaka imbuto yo kuba yahinga, bikazera neza bigatanga umusaruro mwinshi.

Ikusanyirizo ry'ibihingwa, aho hari aho bagiye bashira ingano nyinshi cane, bakazikorera ubushakashatsi kuba zavamo ibindi bintu bitandukanye, urugero bakoraragamo ifarini bakoragamo ibikati n'ibindi bintu bitandukanye.

Soya ifite amababi gameze neza gatoshe, aho yitaweho izatanga umusaruro gumeze nezagushimishije, bityo nikomeza gukurikiranwa neza ikazaba ifite umusaruro mwinshi cyane.

Ingano zihingwaga kijambere zitumaga abazihinga babonaga umusaruro gutubutse, mu gihe bazihingaga mu igihe ciza hazaboneka izuba n'akavura karinganiye.

Inzu yabugenewe banikagamo imyaka zitandukanye, aho isakariwe harimo ibikoresho bakoreshaga, n'umukuzo bayozaga ibyo banitse neza.

Mu gihe ubwanikiro bufashwe neza bugashirwamo ibigori by'indobanure, bituma mu gihe cy'ihinga kizaza imbuto izaboneka imeze neza ,mu gihe bazaba bongeye guhinga bagahinga imbuto y'indobanure imeze neza.

Ubunyobwa bumeze neza bufite amabara gatandukanye, buri mu byibo. Hakaba harimo udupapuro tugiye twanditseho ibintu bitandukanye biranga izo mbuto zose ziri imbere yacu, tubonesha amaso.

Ingurube yorowe neza, ni itungo rigufiya rifasha kuzamuka umuntu mu bukungu, uryoroye aba afite amafaranga menshi mu gihe gitoya, aho zibyaraga mu gihe gitoya zigatanga umusaruro vuba.

Inkoko nziza cyane zimeze neza zitaweho aho umuntu yakoze umushinga gwo gukorora inkoko akaba yambaye isurubeti y'ubururu. Ni umugabo ari murizo nkoko ari kuzitaho kugira ngo zimere neza zizamuhe umusaruro ushimishije.

Ingurube zimeze neza zitandukanye harimo izifite amabara gw'umweru n'umukara, zikaba zifite ikiraro kimeze neza cyubatse neza cya kijambere, harimo n'umukozi wazo ugomba kuzikurikirana umunsi ku munsi.

Inka y'umutavu ni ngombwa kugira ngo bayiteho, bayitere inshinge n'ibinini bya vitamine, kugira ngo izazamuke imeze neza, ikure ifite ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuganga wavuraga amatungo ni byiza ko agomba kuboneka, kugira ngo yite ku matungo azakure neza afite ubuzima buzira umuze, bazabone umusaruro uguturukaho kuri ayo matungo gabo boroye.

Inka imeze neza, ifite amabara g'umweru n'umukara, iri mu ikiraro, iri kurisha ubwatsi, aho yubakiye neza cane ikiraro cya kijambere, gituma itanyagirwa igereho imvura ngo iyinyagire.

Igikuyu baragiragamo inka, aho hari amatungo maremare nk’inka ziri kurishamo. Hagati yaho hakaba hari ibiti bikikije icyo gikuyu, hakurya hakaba hari imisozi zitandukanye zituyeho abantu. Ni byiza ko tugira ahantu ho kuba, twororera amatungo gacu.

Inkwavu zimeze neza zorowe kijambere, bari kuziha ubwatsi aho buzitungaga zikamera neza, bakaba baziryaga mu mahoteli gatandukanye no mu biturage, akaba ari itungo riribwa kandi riciriritse, ritagura amafaranga menshi cane.

Inka iri mu kiraro umugabo uyifashe umugore wambaye isurubeti y'ubururu. Ari kuyitera umuti wo kugira ngo ibashe, kuzakura neza iri mu kiraro cyubatse neza gisakariye.

Aga magi ni menshi, kugajana ku isoko byagusaba gushaka andi masoko menshi waja ugagemuraho ubundi bakagajana mu maresitora no mu mahoteli bakagakoresha, bakagavanamo umureti.

Korora inkoko ni byiza cane, iyo uzitayeho zigira imikurire myiza, bityo ukaba wagira amafaranga mu gihe gitoya cane, aho worora amatungo magufi nk'inkoko, bikaguha amafaranga mu gihe kitarambiranye, ukaba wakirigita ku ifaranga mu gihe ubishaka.

Inka nziza zitanga umukamo ugaragara ,iyo zitaweho zigahabwa ubwatsi bwinshi bwiza ,bitanga amata menshi cane k'umworozi uzoroye.

Ibitera bibaga mu ishamba bimeze neza, birasusurutse biri kugenda mu ishyamba. Bihetse abana bazo ku nda aho byisanzuraga, bikazaja biragenda mu ishyamba aho bidatinya n'abantu iyo bibabonye.

Inyamanza ni inyoni yiberaga mu ishamba， iri mu mucaca gumeze neza，aho iri gutembera itora utundi dusimba duto duto tuyitunga， ifite amabara g'umweru n'umukara.

Igisiga citwa agaca kirya inkoko n'izindi nyamaswa ziguruka. Urugero nk'inyoni gishobora kuba cayifata kikayirya mu gihe kiyibonye.

Isha zimeze neza zirahagaze zimeze nk'izikanze, ariko zikaba ziri mu ishyamba, zirisha ibyatsi bitandukanye, kugira ngo zibeho neza, zitazicwa n'inzara.

Inyange ni nziza ni inyoni ifite amabara g'umweru n'umunwa g'umutuku iri mu mucaca mwiza, aho iba yiturije igenda muri iryo shamba ryayo.

Inyoni ibaga mu ishamba ifite umunwa gw'umuhondo ikagira amaso gw'umutuku n'amaguru, ikaba iri ku giti cyo bitaga umugano wo mu ishamba aho yiberaga yisanzuye imeze neza cane.

Ingwe ni igisimba kigira ubukana, cyabyaye akana biri kumwe iruhande rwayo, biri kugenda mu muhanda bigenda gakegake.

Inyamaswa yibera mu ishyamba bita icyondi, aho giheka abana bacyo, mu gihe kibereye mu muhanda kirimo kigenda, nti gitinya abantu mu gihe kibabonye.

Mu nyamaswa zibaga mu gasozi dukundaga gusangamo nk'urukwavu rwibera mu kinani ,ukaba utarufata ngo urujane mu rugo ngo rube rwahaba mu gihe rwamenyereye kwibera mu kinani.

Inyamaswa ibaga mu ishyamba, iteye nk'inyoni ifite umunwa utukura n'amaso bw'umuhondo, ibara n'umukara ihagaze ku giti gifite imishubi zicanaga.

Inyoni yaberaga mu ishamba, ihagaze ku duti tuvagamo utuntu tumeze nk'ubuki, aho zigendaga zikaja gushakisha ibizitunga. cane cane iyi nyoni ikundaga gucukura mu biti akaba arimo yibera, ikabamo n'abana bayo.

Nyiramwanane ni igisimba kibaga mu ishamba aho gikunda kugenda gisakuza, gifite umunwa muremure, kikaba kirya udusimba duto duto gikuye mu mazi, aho kiba gishaka ibigitunga gikoresheje umunwa gwayo.

Ingagi zimeze neza cane aho bagomba kuzitaho, bakazifata neza, zizanaga ba mukerarugendo bakaza kuzisura bagatanga amafaranga menshi mu Rwanda akinjira agateza imbere igihugu.

Inyoni isa neza bigaragarira ku maso gayo. Iyo itohagiye iba imeze neza irya udusimba, dutandukanye tukayitunga.

Inkende zijaga mu mirima g' abantu mu gihe zabuze ibyo zifata kugira ngo zirye na zo zibeho.

Inkoko ibaga mu ishamba ifite amaguru gw'umutuku, ikagira amabara y'umukara, ijisho ry'umutuku n'umunwa gw'umuhondo, aho yiberaga mu kinani, ikaba itungwa n'utusimba dutandukanye tubaga mu mazi, twiberaga mu ishamba.

Inzoka ni igisimba gitinyitse cane, abantu benshi bagitinyaga cane kugira ngo ba...kitazabarya, kigiraga ubumara kikaba cyagutera izindi ndwara zitandukanye, iyo kikurumye ushobora kuba wanakurizamo kubura ubuzima, gifite amabara gatandukanye.

Inyoni ziberaga mu ishyamba, ni byiza ko zibona ikizitunga aho zigenda ziguruka, zikaja mu mirima y'abaturage kugira ngo zibone ibyo kurya, kuko zo zidahinga Imana yaziremye iziha amababa yo kuzaja aguruka, zikaja gushaka aho zihahira kugira ngo zibone ibizitunga.

Inyamanswa igenderaga ku butaka, ifite amenyo gaje imbere manini, ifite utwisho dutoya, mu gihe abantu bayirebaga bakaba bayitinya iyo iri kugenda ku butaka, bityo ikaba ishobora kuba yahura n'ibintu bitandukanye ikaba yabyangiza, ikoresheje amenyo gayo maremare cane.